Aka ni agapapuro k'amatora, amatora ya perezida warepubulika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi hariho; Habineza Frank, Mpayimana Filipe na Kagame Paul.